Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu kirimo n'ibara ry'umutuku, yambaye agapfukamunwa k'umweru na ga z'umweru, ahetse ikimashini bakoresha bari gutera imiti ku ndabyo kugira ngo udusimba tutazangiza.

Mu murima w'umuceri harimo umugabo uhetse imashini bakoresha bari kuwuhira, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare n'ingofero mu mutwe.

Ku kiyaga hari abarobyi, bagera kuri batandatu, batatu muri bo bambaye ubusa hejuru, abandi bambaye imipira, bakaba bafite ikintu bakoresha bari gukura amafi mu kiyaga.

Ibase, y'umutuku, iteretse ahantu hari amakaro. Irimo amafi. meza cyane, ndetse manini, amafi akaba, ari, ibiribwa bikomoka mu nyanja, bigira intungamubiri nyinshi.

Ahantu ku cyuzi, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku uri guseka, umaze kuharoba amafi menshi cyane ndetse abyibushye, akaba ari kuyerekana kugira ngo abaturage bayagure bajye kuyateka.

Mu murima w'icyayi harasa neza cyane, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi isa nk'umweru, wambaye n'ingofero y'umweru mu mutwe, bigaragara ko ari gusoroma kuri icyo cyayi.

Ahakorerwa ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye hubatse neza cyane hari amazu abikwamo imyaka igiye itandukanye ndetse n'aho bashyira ingemwe zikiri ntoya bakazazihakura bagiye kuzitera mu bice bitandukanye.

Umurima w'icyayi urasa neza cyane harimo abaturage bahetse ibitebo, bari kugenda basoroma icyo cyayi. Icyayi rero kikaba cyinjiriza igihugu amafaranga menshi cyane.

Inyubako irimo imiti itandukanye y'amatungo, iyo miti ikaba ifasha kongerera ubushake amatungo bwo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nko kuvura indwara zimwe na zimwe.

Uducupa dusa nka orange dupfundikishijwe imifuniko y'umweru, turimo imiti y'amatungo, yifashishwa n,aborozi, igihe amatungo yabo yahuye n'uburwayi.

Farumasi irimo imiti y'amatungo myinshi igiye itandukanye, iri mu ducupa tw'umweru, ikaba igurwa n'aborozi kugira ngo bajye kwita ku matungo yabo.

Umuhinzi uri guhinga ibishyimbo bikaba bigaragara ko bigeze igihe cyo kubagarwa, akaba ari kubibagara kugira ngo bizere neza cyane bizane imiteja myinshi.

Mu murima hari abahinzi batatu umwe muri bo afite isuka, imbere yabo hapfukamye umugabo bigaragara ko ari umuyobozi uri gutera igiti muri uwo murima.

Abahinzi benshi barimo abamama n'abagabo bahagaze ahantu mu rutoki, bamaze kuhahinga neza ndetse n'urutoki barukoreye neza cyane kugira ngo bizarufashe kwera ibitoki byinshi.

Urutoki bigaragara ko wagira ngo rutangiye gucika, hahinzemo inyanya n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye harimo umugabo uri kurukomorera, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umurima uteyemo urutoki n'ibigori bikaba bigaragara ko ibyo bigori bigeze igihe cyo gusarurwa, ndetse umuturage wabihinze akaba atakwicwa n'inzara, kuko n'ibitoki bigiye kwera.

Agapaniye karimo ibiribwa bigiye bitandukanye, ndetse n'amavuta yo guteka muri ibyo biribwa hakaba harimo amakaroni ndetse n'inyanya.

Imboga rwatsi ni imboga nziza cyane zigira intungamubiri ku rwego rwo hejuru. Izi mboga zikaba zifashishwa mu kugira ngo abana bagire imirire myiza, bibafashe no gukura neza batarwaye bwaki.

Igihingwa cya pavuro ni cyiza cyane kubera ko cyinjiza amafaranga menshi, pavuro bazishyira mu biryo bitandukanye zikabihumuza ndetse zikongera n'intungamubiri.

Urutoki ruteye ahantu heza cyane bigaragara ko rutaratangira kwera ndetse ahantu ruteye bikaba bigaragara ko hari kuva izuba ryinshi cyane.

Umurima urimo ibiti by'amaronji ariko ntabwo yari yera neza, gusa ayo maronji arashishe, ariho ibitumbwe byayo, bigaragara ko mu minsi iri imbere azaba yamaze gukura, ari manini cyane.

Ishyamba riteye ahantu heza cyane risa neza rikaba ririmo ibiti bigiye bitandukanye bikorwamo imbaho zifashishwa bari gukora ameza, intebe, ibitanda n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti birebire cyane, byifashishwa rikurwamo imbaho, zishobora gukorwamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, ameza ndetse n'ibitanda.

Mu ishyamba hakozwe, igikorwa cyo gutema ibiti bikuze, kugira ngo bijye, gucibwamo, amakara, maze abaturage, bazajye babona icyo batekesha.

Mu ishyamba harimo ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye, ibyo biti bikaba byifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye byinjiriza igihugu amafaranga ndetse bikinjiriza n'abaturage babikoramo amafaranga, abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ishyamba ririmo ibiti bitarakura neza cyane, rikaba riri ahantu heza, ndetse abaturage bakaba baryifashisha, baza gushaka inkwi, banakuramo ibiti, byo gucamo amakara.

Ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye, iryo shyamba rikaba ririmo ibiti birebire cyane bishobora kwifashishwa hakurwamo imbaho zivamo ameza, intebe, ndetse n'ibindi.

Ishyamba ryiza cyane, riri ahantu heza, hagati muri ryo hakaba hatembamo n'umugezi, iryo shyamba rikaba rikurwamo ibiti, bikoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Mu gishanga hari umukecuru uri gukora ubuhinzi bw'imboga zigiye zitandukanye; zirimo amashu ndetse n'inyanya n'ibindi bihingwa by'amoko atandukanye.

Intebo irimo inyanya zisa neza, bigaragara ko zahiye cyane, iruhande rw'iyo ntebo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku ufashe urunyanya rumwe, ari kurukura muri iyo ntebo.

Mu murima uhinzemo pome zisa nk'umutuku, hahagazemo umugabo wambaye ijile isa nka oranje n'ingofero y'umukara, uri kugenda azisarura, pome zikaba zizwiho kuryoha cyane ndetse zikaba zinafasha muburyo bwo kugabanya ibiro.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, kubera ko butuma abaturage babona kawunga bitabahenze, ndetse bikabafasha no kuba babona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu murima uteyemo imyaka ikiri mitoya hahagazemo, umugabo wambaye umupira w'icyatsi ufite rozwari ebyiri ari gukoresha yuhirira iyo myaka.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba hari umupira uri gusohora amazi, bigaragara ko uri kuhirira ibyo bihingwa kugira ngo bitazuma.

Mu murima uhinzemo imyaka igiye itandukanye, hari umugabo wambaye ipantaro yayihinnye, yambaye n'umupira w'umukara, afite umupira ari gukoresha yuhirira iyo myaka.

Ikibaya cyiza cyane kigiye kirimo n'udusozi kikaba gisa neza ku buryo bugaragara, iki kibaya kikaba cyinjiriza igihugu amafaranga menshi.

Mu kibaya gihingwamo umuceri harasa neza cyane hakikijwe n'imisozi miremire n'imigufi bikaba bigaragara ko habuditse wagira ngo imvura igiye kugwa.

Ingurubebyibushye cyane, bayambitse amaherena y'umuhondo, biragaragara kobyibushye, irashishe ndetse igaburirwa ibiryo byo mu maresitora, batajya bayigaburira ubwatsi.

Ikiraro kirimo inka, bakaba bazihaye ubwatsi ariko zikaba ziri kureba nk'izitahaze kugira ngo bazizanire ubundi bwatsi zirye zihage.

Ku biraro by'inka, hari abantu bahagaze, baje kuzireba no kuziha ubwatsi, izo nka zikaba ari nziza cyane ku buryo bugaragara.

Inyubako yororerwamo imishwi y'inkoko, irimo ari myinshi cyane, bayishyiriyemo ibiryo byayo kugira ngo itaza kwicwa n'inzara, ikazabura uko ikura neza.

Ahantu hororerwa imishwi y'inkoko, harimo imishwi myinshi cyane, isa neza bigaragara ko bayitaho kuburyo bukwiye, bakayigaburira kugira ngo izavemo inkoko zibyibushye.

Ikiraro kinini cyane cyororerwamo ingurube kikaba cyubatse neza ku buryo ingurube zitapfa gutaruka ngo zijye kwangiza ibikorwa by'abaturage.

Ahantu hororerwa ingurube, harimo ingurube bigaragara ko ibyibushye, bakaba barayambitse amaherena y'umuhondo ndetse bikaba bigaragara ko itunzwe n'ibiryo byiza cyane, batajya bayigaburira ubwatsi.

Mu rwuri harasa neza cyane harimo ibiti birebire by'ishyamba, harimo n'ubwatsi butoshye hakaba harimo inka nyinshi ziri kurisha zishishe, bigaragara ko zaguwe neza n'ubwatsi bwo muri urwo rwuri.

Ibiganza bifashe imbuto z'amashaza, izo mbuto zikaba zarateguwe kugira ngo bazazihinge maze zibyare andi mashaza menshi cyane, kugira ngo azinjirize nyirazo ubukungu bugiye butandukanye.

Agatebo karimo imbuto z'amashaza, ayo mashaza akaba ateruwe mu kiganza n'umumama wambaye agakomo ku kaboko, bigaragara ko ari ayo gutera.

Umurima wibigori, urimo ibigori byamaze kwera ndetse bikaba byarumye, bikaba bifite intete zisa neza zishobora kuvamo imbuto nziza cyane yo gutera.

NI icyumba cyo kwa muganga, hicayemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Mo imbere yambariyemo umupira usa nk'umweru, yambaye na ga zisa nk'ubururu, afite ibinini mu ntoki, ndetse imbere ye hateretse n'utundi dukoresho two kwa muganga.

Veterineri yaje kubyaza inka, imaze kubyara akan gasa neza cyane, akaba ari kugatunganya, akavanaho bimwe mu bintu kaba kavukanye kugira ngo gakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inka y'imbyeyi nziza cyane, ariko, bigaragara ko, yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, veterineri akaba amaze kuyivura, ikaba iri kugenda gahoro gahoro.

Inyamaswa y'inkazi, iri ahantu mu ishyamba, izwi ku izina ry'ingwe, ikaba iri kureba nabi cyane, bigaragara ko ishobora no kukurya.

Utunyamaswa turi mu bwoko bw'inyoni dusa neza cyane, tukaba dufite amaguru asa nk'umutuku ndetse n'amajosi maremare, tukaba dufite n'amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyamaswa z'agasozi, ziri ahantu muri parike, zikaba zikundwa cyane n'abanyarwanda, by'umwihariko abanyamahanga bakunda kuza gukora ubukerarugendo, bakaba bazireba maze bikinjiriza igihugu amafaranga.

Iyamanswa zo muri parike, ziri ahantu heza cyane hari icyuzi, zikaba zaje kunywa amazi kuko zari zifite inyota nyinshi cyane.